Ni inzu nziza yubatse muburyo bugezweho isize irangi ry'umuhondo ku rukuta, ku madirishya hariho utwuma dusize irangi ry'icyatsi, imbere hari abantu babiri umugabo bigaragara ko ashinzwe imikurire y'abana bakiri bato.

Ni icyumba cyubatse mu buryo bugezweho gisize irangi ry'umweru kirimo abaganga benshi bambaye imyenda y'ubururu, hari umurwayi uryamye ku gitanda kiriho amashuka y'ubururu bigaragara ko ameze nabi bari kumukorera ubuvuzi bwihuse.

Ni iriba bavomeraho amazi ahantu habiri, ushobora kuyakoresha imirimo igiye itandukanye, kumesa, guteka, koga, ndetse n'ibindi, hari abana benshi bigaragara ko baje kuvoma bakoresheje ibikoresho bigiye bitandukanye.

Ni umwana bigaragara ko ukiri mutoya, w'imibiri yombi, wambaye inkweto za bodaboda z'ubururu, ikabutura y'umutuku, bigaragara ko ari kuvoma amazi ariko ayatoba, kandi bishobora kumutera indwara zigiye zitandukanye.

Ni abantu batanu abahungu bane ndetse n'umukobwa ufite imisatsi itari myinshi w'imibiri yombi, yambaye itaburiya y'umweru imbere yabo hari ubukarito burimo ibintu bigaragara ko bose ari abaganga bari mu gikorwa.

N'inama y'abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bicaye hasi imbere hari umugabo ndetse n'umwana bari gusuhuzanya, bigaragara ko bishimiye umugabo yambaye, umupira w'umuhondo ipantaro y'ikoboyi bigara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta hashushanyijeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye inzu, ibiti, ndetse n'abana, harimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abamama bigaragara ko hari ibintu baje.

Ni inzu ari nini irimo intebe zikozwe mu mbaho, zirimo abantu bambaye amatuburiya y'umweru, ndetse n'amashati y'umweru, bigaragara ko ari abaganga, harimo uwari wambambaye agapfukamunwa k'ubururu, ufite imisatsi y'umukara, ari gutera urushinge umurwayi.

Ni inzu nziza yubatse m'uburyo bugezweho igeretse, isize irangi ry'umuhondo, yubakishije amakaro hejuru, hirya hateye ibiti byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta, bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye nk'iz'ubukwe cyangwa izindi, hicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye imipira y'umweru.

Ni abantu benshi higanjemo abagabo n'abagore harimo uwari wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, abandi bambaye amataburiya y'ubururu undi ni umweru, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Ni ivomero bavomaho amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye: gukoropa, guteka, kumesa, koga, ndetse n'ibindi. Hari abana batandatu bigaragara ko baje kuvomesha ibintu bigiye bitandukanye indobo, ndetse n'ubujereka...

Ni abakobwa batatu bambaye ubupfukamunwa bw'umweru, umwe yambaye ishati y'umutuku, afite imisatsi y'umukara myinshi, imbere yabo hari ubujerekani, hari igikuta gisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Ni abantu benshi higanjemo aba mama ndetse n'aba papa, bigaragara ko hari ibintu bari gupakira mu mifuka y'umweru kugira ngo babibike byujuje ubuziranenge bitaza gupfa. Harimo abari bambaye imyenda y'umutuku.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu ibara ry'umweru, imbere yayo hari umugabo w'imibiri yombi wambaye karuvati y'umutuku ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, bigaragara ko hari ijambo yari kubwira abamukuriye.

Ni abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko ndetse n'abana bigaragara ko baje kuvoma amazi, hari icyapa gisize irange ry'ubururu ni ho bari kuvoma amazi meza...

Ni inzu bigaragara nk'aho ishaje, ifite urugi rukozwe mu mbaho, hari abana babiri, bigaragara ko umwe ari gukarabira mu ndobo y'ubururu, yambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umuhondo, undi yambaye...

Ni agatanda gakozwe mu biti, bigaragara ko ari ahantu batereka ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo byumuke nk'amasahani, ibikombe, amabase, amajerekani ndetse n'ibindi, hirya hateye ibiti birebire.

Ni urubyiruko rugiye rutandukanye abahungu n'abakobwa, ni abantu barindwi abakobwa batatu ndetse n'abahungu bane, bambaye amashati y'ubururu abakobwa bambaye ibigiye bitandukanye, hari abambaye umukara undi yambaye icyatsi.

Ni abana bane n'umukobwa umwe mukuru bigaragara ko bari ku ivomero bavoma amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye, kumesa guteka ndetse n'ibindi bakoresheje ubujerekani butoya, hirya haparitse imodoka isize irangi ry'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru n'ubururu mu gikuta, irimo ameza akozwe mu mbahoho ariho impapuro nyinshi, hari umugabo wambaye umupira w'umweru, bigaragara ko ari umuganga.

Ni abana benshi bigaragara ko bakiri batoya bari kwidumbaguza mu mazi menshi bashobora guhuriramo n'ingaruka zigiye zitandukanye nk'uko bashobora kuribwamo n'ibisimba ugasanga baburiyemo ubuzima ndetse umuryango wabo urabaho.

Ni ivomero bavomaho amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye kumesa guteka koga ndetse n'ibindi ni umumama wishimye mu maso uteruye mwana yaje kuvomesha indobo y'umukara.

Ni umuhanda wamabuye urimo umwana wikoreye akajakani gapfundikijwe n'umukanana, bigaragara ko hari umukobwa winzobe afite imisatsi myinshi wambaye ishati y'umweru ufite telefone mu ntoki uri kumufotora.

Ni iriba bavomeraho amazi ugiye kuyakoresha ibintu bigiye bitandukanye, kuyatekesha, kuyameshesha cyangwa kuyoga, hari umwana biragaragara ko ukiri muto yishimye mu maso ye, ari gukaraba mu maso yirinda imyanda.

Ni umusore w'imibiri yombi wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, afashe akana kambaye ipantaro y'ubururu, umupira w'umuhondo, bigaragara ko ari kumupima ibiro, bagiye kwivuza cyangwa ahandi.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho iriho icyapa gisize irangi ry'ubururu yanikishije mu ibara ry'umweru hasi yubakishije sima bigaragara ko hari abantu benshi baje kwivuza hari umuganga wambaye itaburiya y'ubururu.

Ni abana babiri bigaragara ko bakiri batoya, umwe yari yambaye umupira w'umutuku, bari kuri lobine, bari gusuka amazi mu ntoki, bigaragara ko bari gukaraba amazi meza ushobora kunywa.

Ni abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu hari ameza ariho ibitambaro by'umweru hari umusaza bigaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru waje kwivuza yambaye ikote ry'umukara.

Ni abantu benshi higanjemo urubyiruko abahungu n'abakobwa, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko bari bicaye hari umuntu uri kubafotora, hari ibyo bari kwamamaza, inyuma yabo hari icyapa.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi y'ubururu isakaje amabati y'ubururu, hanze hicaye abantu benshi ku ntebe z'imbaho, harimo uhari afite impapuro mu ntoki bigaragara ko ari umuyobozi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru hejuru, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, bigaragara ko muri urwo rugo hari ibirori byabaye, hirya hari indi nzu ifite...

Ni abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abakecuru bigaragara ko bageze mu gihe cy'izabukuru, abana ndetse n'urubyiruko, bigaragara ko baje kwivuza, kugira ngo bamenye uburwayi bafite babone imiti kugira ngo bakire.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru kiriho amafoto y'abana babiri, bigaragara ko baba barimo bakaraba intoki umwe akarabya undi, birinda indwara zituruka ku mwanda. Buri gihe biba byiza ko ahantu hose waba uvuye ubanza ugakaraba intoki.

Inzu nziza yubakishije amatafari ahiye, hari icyapa gisize irangi ry'umweru, hariho amafoto y'abantu benshi bagiye batandukanye, hicaye abantu bane, umumama wari wambaye umupira w'ubururu, hari undi wambaye uw'umutuku.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu, cyandikishije mu ibara ry'umweru, ubururu n'umuhondo, hashushanyijeho inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho igeretse, ifite ibirahure by'ubururu, isize irangi y'umweru, ni ahantu ushobora gukorera inama.

Umuganga wari wambaye itaburiya y'umweru n'igitambaro mu mutwe ni imibiri yombi, hari abamama batatu bigaragara ko baje kwivuza umwe ari kubafata ibizami ngo arebe indwara barwaye.

N'inama y'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abakobwa, harimo ibitambaro by'umweru ku nzugi, isize irangi ry'umweru ku bikuta bigaragara ko hari ibintu bari kuganiraho bicaye ku ntebe z'umukara.

Ni inzu bigaragara ko ari ikigo cy'abanyeshuri isize irange ry'muhondo ku bikuta, harimo intebe zikozwe mu mbaho. harimo abana b'abahungu n'abakobwa bigaragara ko bari gufata amafunguro ya saa sita.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'uumweru hejuru, irimo abantu benshi bagiye batandukanye. Hari umuhungu wari wambaye umupira w'ubururu uriho uburongo bw'amagambo bw'umweru.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye abamama ndetse n'abana, harimo abari bicaye ku ntebe z'icyatsi ndetse n'ubururu bigaragara ko baje gupimisha abana babo, hari umugabo bigaragara ko ari umuganga yambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu benshi bambaye amataburiya y'ubururu bigaragara ko baje mu biganiro, baje guhugurwa mu byo bakora, harimo uwari wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ishati y'umweru.

Ni icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hariho ifoto y'umukobwa w'inzobe ufite imisatsi y'umukara, bigaragara ko yishimye mu maso ye hari ibintu ari kureba, ni icyapa kigaragaza ko bari kwamamaza.

Ni umwana w'umukobwa bigaragara ko ukiri muto w'imibiri yombi, wambaye ikanzu y'ubururu. ari gukaraba intoki kugira ngo yirinde indwara zose zituruka ku mwanda. Hirya ye yateye ibiti byinshi kandi birebire.

Ni abantu benshi harimo abamama bambaye imipira y'umweru yandikishije mu ibara ry'ubururu, hari abasore bari kugaburira abana yambaye umupira w'umuhondo, umwana we yambaye umupira.

Ni abana bane, bari bishimye mu maso yabo urabibona, hari umugabo ufite igikombe mu ntoki, bigaragara ko ari kubasukira amazi ngo bakaraba intoki, kugira ngo birinde indwara zikomoka ku mwanda, cyangwa ahandi.

Ni inzu nziza, yubatse muburyo bigezweho, irimo ibirahure mu madirishya, hanze hari abantu babiri, umukobwa afite imisatsi y'umukara, upfumuye amatwi, w'imibiri yombi, yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara.

Ni umukobwa w'inzobe ufite irangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko hari ijambo ari guha abari bamukurikiye, avuga ibintu bigiye bitandukanye, inyuma ye hari icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu gishushanyijeho...

Ni inzu nziza isize irange ry'umuhondo yandikishije mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abamama, bambaye amataburiya y'ubururu imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umutuku.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, irimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore ndetse n'abana, bigaragara ko ari abanyeshuri bakiri batoya, bambaye amakanzu y'ubururu, inyuma yabo hari umumama wambaye itaburiya y'umweru.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko, abahungu n'abakobwa, hari abana batoya bambaye imipira imeze kimwe bafite inkongoro bigaragara ko bari kunywa amata.

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, ku rukuta harimo icyapa gisize irangi ry'umweru ryandikishije mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hari abana b'abakobwa bambaye imipira y'ubururu.

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakaro y'umweru hasi irimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, yiganjemo abamama bateruye abana bigaragara ko baje kubakingiza cyangwa kubavuza.

Ni abantu benshi higanjemo abantu bakuru ndetse n'abana, bari bambaye imipira y'umuhondo, abantu bakuru bari kubaha amata mu bikombe bigiye bitandukanye, ni umushinga wo gufasha abana.

Ni umumama wikoreye injerekani y'umuhondo, ipfundikishije umufuniko w'umutuku ndetse n'amashashi, bigaragara ko ari ahantu bavomera amazi, hari umwana w'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, hirya hateye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umuhondo ku rukuta, hari abantu batanu b'abagore ndetse n'abana babiri, harimo uruhinja rumwe bigaragara ko baje kuruvuza wa....

Bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri hari umukobwa wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, imbere ye hari abana batatu bigaragara ko bari gukaraba intoki birinda indwara zituruka ku mwanda cyangwa...

Ni umwana wishimye mu maso ye urabibona ko akiri na mutoya, bigaragara ko ari ahantu bavomera amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye, kumesa, guteka cyangwa ibindi, hari injerekani bigaragara ko ari zo ari gukoresha avoma.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ari ivomero bavomaho amazi utanze amafaranga, hari abantu batanu bahagaze bigaragara ko baje kuvoma, ku idirishya hahagaze undi wambaye.

Ni abantu benshi harimo umuganga, yari yambaye ishati y'umweru afite umusatsi mucyeya. Ari gutera urushinge akana gatoya bigaragara ko karwaye, mama wako niwe wari ugateruye.

Ni abantu batatu, abakobwa babiri numuhungu umwe wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara bari guterura imifuka ifunze bigaragara ko hari ibintu bari gupakiramo bagiye kohereza cyangwa kubi...

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, abamama, abana, bigaragara ko baje kuvoma amazi, bafite ubujerekani butoya ndetse n'ubunini, inyuma yabo hateye insina ushobora gukuramo imeke cyangwa ibitoki byo guteka.

Ni abantu batatu, umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, umumama ukenyeye ibitenge uteruye umwana bigaragara ko arwaye, bari gushaka umuti kugira ngo bamutere urushinge.

Ni umwana bigaragara ko ukiri mutoya w'imibiri yombi wambaye umupira w'umutuku, ari ku ivomera avomoho amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye kumesa, guteka, gukoropa ndetse n'iyindi mirimo igiye itandukanye.

Ni umwana w'umuhungu bigaragara ko akiri muto, yambaye ikabutura y'umutuku, inkweto za bodaboda z'ubururu, bigaragara ko yaje kuvoma amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye yo mu rugo, kumesa, guteka ndetse n'ibindi.

Ni abaganga bambaye amataruriya agiye afite ibara rigiye ritandukanye, hari ay'umweru n'ubururu, bambaye amaga bose hari umukobwa afite imisatsi myinshi y'imibiri yombi bigaragara ko wa umukecuru yari arimo avura.

Ni umukobwa w'inzobe ufite imisatsi y'umukara wambaye itabuririya y'umweru bigaragara ko ari umuganga hari akana ari kuvura kari kumwe na mama wako agira ngo arebe indwara akarwaye.

Ni amazi menshi, harimo umukobwa, wambaye umupira w'umuhondo afite injerekani, bigaragara ko ari kuvoma agiye kuyakoresha ibintu bigiye bitandukanye, ushobora kuyamishesha cyangwa ukayoga hari undi u kweza igare...

Ni ivomero bavomaho amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye, kumesa, koga, guteka ndetse n'ibindi, hari abana bigaragara ko bakiri batoya, baje kuvoma, hari abafite ubujerekani butoya ndetse n'ubunini.

Ni abantu benshi, higanjemo aba mama ndetse n'abasore, bari bahagaze ku kumurongo, bigaragara ko hari umuntu uri kubafotora, inyuma yabo hari icyapa kinini gisize irangi ry'ubururu, cyandikishije.

Ni iriba bigaragara ko bavomaho amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye yo mu rugo, kumesa, guteka ndetse n'ibindi, bigaragara ko hari umwana wari urimo urikorera indobo avuye kuvoma.

Ni abana babiri, umuhungu n'umukobwa wambaye ishati y'ubururu, bigaragara ko bari ku ivomero bavoma amazi, yo gukoresha imirimo igiye itandukanye, kumesa, guteka ndetse n'ibindi, bari kuvomera mu bivomesho by'umweru.

Ni abantu benshi bigaragara ko hari umushinga wahaje, harimo abari biganjemo abamama bambaye imipira y'umweru, bateruye abana bambaye imipira y'umuhondo, hari abasore bari kubaha amata.

Ni umwana w'umukobwa wambaye ikanzu y'umweru irimo utudomo tw'umukara, ari ahantu bavomera amazi yo gukoresha imirimo igiye itandukanye yo mu rugo, kumesa, guteka ndetse n'ibindi, ari kuvomera mu ndobo z'umweru.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo abamama, inyuma yabo hari inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umuhondo ku bikuta, ifite ibirahure, mu madirishya hariho ibyuma bisize irangi ry'umweru.

Ni icyapa gisize irange ry'ubururu, cyandikishije mu ibara ry'umweru, imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru, ikote ry'umukara, karuvati y'umutuku, bigaragara ko hari ijambo ari guha abari bamukurikiye, hari ameza ateretseho...

Ni abantu benshi bagiye batandukanye abamama ndetse n'abapapa, bicaye ku ntebe z'umweru, hari imodoka nini isize irangi ry'umweru, irimo ibitambaro bifite ibara ry'ubururu bigaragara ko baje kuvuza abana.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru kukuta, irimo abantu babiri b'abamama, umwe yambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara afite imisatsi mikeya, undi yambaye ikote ry'umutuku.

Ni inzu isize irangi ry'umuhondo ku gikuta irimo abagabo babiri, umwe yambaye ipantaro y'umukara ishati y'umutuku urimo uturongo tw'utudomo tw'ubururu ahagararanye nundi wari wambaye.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo, abamama n'abapapa bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye imyenda igiye itandukanye; amakanzu, amajipo ndetse n'amapantaro.

N'inama y'abantu benshi bagiye batandukanye hari abari bicaye ku ntebe z'umukara imbere hari abandi bigaragara ko aribo bayoboye inama, ku meza hariho igitambaro cy'umweru inyuma hari icyapa kinini gisize irangi ry'umweru...

Ni umugabo w'imibiri yombi wishimye mu maso ye urabibona kuko arimo araseka, afite ubwanwa bukeya, umusatsi mukeya yambaye umupira w'umuhondo, bigaragara ko hari umuntu wari urimo umufotora.

Batanu bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, hari umusore ndetse abamama batatu n'umwana inyuma yabo hateye insina, ushobora kwifashisha nk'ubwatsi waha amatungo, havaho ibitoki ndetse n'imineke.

Ni abana benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bafite imirire mibi, biragaragara kuko bafite agahinda mu maso yabo, bambaye imyenda igaragara ko itameshe badaheruka kurya barwaye.

Ni icyapa gisize irangi ry'ubururu n'umweru hasi, cyandikishije mu ibara ry'umweru n'umuhondo, hariho ifoto y'umugabo w'imibiri yombi ufite irangururamajwi mu ntoki ye, bigaragara ko hari ijambo ari gutanga kumukurikiye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bigezweho isize irangi ry'umuhondo ku bikuta ndetse no ku nzugi zirimo ibirahure imbere hari umukobwa w'imibiri yombi wambaye umupira w'ubururu inyuma hariho undi w'umutuku.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta, hamanitseho ibyapa byinshi, harimo igisize irangi ry'umweru n'umutuku, harimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo ndetse n'abagore.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, irimo abakobwa babiri beza b' imibiri yombi, umwe afite imisatsi mikeya apfumuye ugutwi, yambaye agapira k'umukara, undi yambaye ikanzu y'ubururu n'umweru.

Ni inzu bigaragara ko iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe cyangwa izindi, harimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere hari abandi bigaragara ko ari bo bayobozi, ku meza hariho igitambaro cy'umweru.

Ni icyapa gisize irange ry'umweru, cyandikishije mu ibara ry'umukara, imbere hari ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye; abagabo ndetse n'abagore, harimo abambaye imyenda y'abashinzwe umutekano w'abaturage.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru harimo imirongo y'ubururu, cyandikishije mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, hariho ifoto y'umugabo w'imibiri yombi, hari idarapo riri mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku bikuta irimo, abana benshi bagiye batandukanye bigaragara ko bakiri batoya bishimye mu mumaso yabo. Urabibona bigaragara ko hari ibintu bari kureba barikubereka.

Ni abantu benshi higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abana bafite idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo, bigaragara ko hari ibintu bari kwamamaza.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko ijya iberamo inama zigiye zitandukanye, iz'ubukwe ndetse n'izindi. Irimo abantu benshi higanjemo abagabo ndetse n'aba mama, inyuma hari icyapa gisize irange ry'umutuku ndetse n'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umukara, hashushanyijeho umukobwa w'imibiri yombi ufite imisatsi mikeya, bigaragara ko ari umuyobozi.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye, hari uwari wambaye umupira w'umutuku, ikabutura, yicaye hasi yambaye amapingu, bigaragara ko hari ibintu bari kumushinja kuko inyuma ye hari abantu benshi baje kureba ibyo yakoze.

Ni umukobwa w'imibiri yombi ukenyeye igitenge, wicaye ku ntebe ikozwe mu mbaho, imbere ye hari umusambi urambuye, ibikuta byaho bigaragara ko bishaje, birimo no gusenyuka, amadirishya akozwe mu mbaho.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho iri ahantu heza isize irangi ry'umuhondo ku rukuta, ifite ibirahuri mu madirishya hariho ibyuma bisize irange, bigaragara ko ari ahantu ushobora gutura n'umuryango wawe.

Ni abana benshi bishimye mu maso yabo badafite umusatsi, bigaragara ko hari ibintu bari bari kureba bari kubereka bisekeje, bamwe muri bo bambaye amashati y'icyatsi ndetse n'imipira iriho uturongo tw'umutuku.

Ni abantu benshi bagiye batandukanye harimo abamama ndetse n'abahungu, bigaragara ko hari uwo bari bafashe w'umukobwa afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Bigaragara ko bamumujyanye kwa muganga.

Ni umugabo w'imibiri yombi wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, ishati y'umukara iriho irindi bara, inyuma yayo hari inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irange.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta irimo ibitambaro ku nzugi by'umutuku, harimo umugabo w'imibiri yombi wari wambaye ikanzu y'umukara bigaragara ko hari ikibazo yagize mu kanwa.

Ni abana bigaragara ko bakiri batoya b'imibiri yombi, buri wese agiye afite uburuso bugiye butandukanye mu mabara bigaragara ko bari koza amenyo ngo birinde indwara zo mu kanwa, bambaye imipira y'ubururu.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ku bikuta irimo abana benshi bigaragara ko ari abanyeshuri bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho bigaragara ko hari ibintu bari babahaye bose bari kweyerekana mu ntoki.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru risa nk'irigiye gucuyuka, irimo umuganga wari wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, hari umwana wari uryamye wambaye umupira w'umutuku, ko ari kumutera urushinge.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku rukuta ndetse no hejuru, yubakishije amakaro y'umweru hasi ifite imiryango irimo ibirahure byinshi, harimo intebe ushobora kwakiriraho abashyitsi bakaba bahicaye mu gihe bategereje ko ba.

Ni inzu irimo abaganga benshi bambaye udupfukamunwa tw'umweru, amataburiya y'umweru, hari umukobwa w'imibiri yombi ufite misatsi, bigaragara ko hari undi ari kuvura indwara zo mu kanwa ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ni umwana ukiri mutoya bigaragara ko yishimye mu maso ye, ni imibiri yombi afite uburoso mu ntoki bw'ubururu ndetse n'umuhondo, bigaragara ko agiye koza amenyo ngo yirinde indwara zo mu kanwa.

Ni inzu irimo icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, imbere hari abantu benshi higanjemo urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa, harimo abari bicaye hasi bigaragara ko hari umuntu wari urimo abafotora.

Ni umugabo w'imibiri yombi ufite ubwanwa bukeya bw'umukara, amenyo y'umweru, ishinya y'umutuku bigaragara ko yishimye mu maso ye ndetse hari ibintu ari kwerekana bari kumufotora.

Ni umusore w'inzobe ufite umusatsi mukeya w'umukara, wari wambaye umupira w'umweru wijimye mu maso ye urabibona bigaragara ko hari ikintu yari arimo arerekana mu kanwa ke.

Ni umuganga wambaye ishati y'umweru, na ga mu ntoki, bigaragara ko hari umwana urwaye ,bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, ari kumurebera ngo abashe kuba yamufasha akamuha imiti yaba yamukiza cyangwa ubundi bufasha.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, ifite urugi rukozwe mu mbaho, irimo intebe imeze nk'uburiri, ushobora kuryamishaho umurwayi mu gihe bagiye kumusuzuma.

Ni umusore w'inzobe ufite iminwa itukura ufite umusatsi mukeya w'umukara, wishimye mu maso ye urabibona, bigaragara ko hari ibintu yari arimo aramamaza yari afite mu ntoki.

Ni inzu isize irangi ry'umweru ku bikuta, yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo abantu bigaragara ko hari umusore uryamye ku gitanda, yambaye umupira w'umukara bigaragara ko bari kumuvura indwara zo mu kanwa.

Ni abantu babiri, umumama ndetse n'umupapa bishimye mu maso yabo urabibona, umwe n'inzobe, undi ni imibiri yombi, bigaragara ko bari muri siporo bagirango ngo birinde indwara ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, ku rukuta yubakishije amakaro, hasi harimo abantu babiri, umukobwa w'inzobe bigaragara ko ari umuganga, hari umusaza ari gufasha.

Ni abantu babiri harimo umukobwa w'inzobe wishimye mu maso ye urabibona bigaragara ko akiri mutoya, yambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umukara, ari kumwe n'umusaza bigaragara ko ageze mu gihe cy'izabukuru.

Inzu nziza yubatse mu mujyi wagezweho isize irange ry'umuhondo ku rukuta irimo abantu babiri, umukobwa bigaragara ko ari umuganga yambaye itaburiya y'ubururu hari umusaza bigaragara ko ari mu gihe cy'izabukuru.

Ni umusaza w'imibiri yombi, bigaragara ko ageze mu zabukuru atakibashije kwifasha akeneye uwamufasha, afite imvi nyinshi mu mutwe, bigaragara ko hari umuntu uri kumwoza umubiri wose.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubatishije amakaro y'umweru ku bikuta, irimo ibirahuri byinshi, mu madirishya hari ahantu bigaragara ko bogereza ibyombo cyangwa ibindi, hari umugabo bigaragara ko afite ibinini mu ntoki.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irange ry'umweru hejuru ku rukuta, irimo abantu babiri bigaragara ko bari gufata amafunguro agiye atandukanye, harimo umusaza bigaragara ko ageze mu gihe cy'iza bukuru.

Ni umukecuru w'imibiri yombi ufite ivi nyinshi mu mutwe, ufite irangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari ijambo ari kubwira abari bamukurikiye. Hirya haparitse imodoka nyinshi zisize irangi ry'umukara

Ni inzu nziza yibatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta, harimo intebe zifite imisego y'ubururu, irimo abantu babiri umusaza ndetse n'umwana ukiri muto w'umukobwa.

Ni inzu nziza iri ahantu heza, isize irangi ry'umweru ku rukuta, irimo abantu babiri, umusaza bigaragara ko ageze mu izabukuru, hari undi musore umufashe, ari kumufasha gutambuka.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'ubururu, bigaragara ko hari ingingo bari kuganiraho, bicaye munsi y'igiti kirekire.

Ni inzu nziza yubatse muburyo bugezweho isize irangi ry'umweru hejuru, irimo abantu babiri umumama wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, w'imibiri yombi ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'umweru.

Ni umuhanda w'umukara urimo abamama ndetse n'abasore bigaragara ko bari muri siporo, kugira ngo birinde indwara zituruka mu mubyibuho ukabije cyangwa izindi, hari umuhungu wambaye umupira w'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irange ry'umweru ku bikuta, irimo abantu babiri umukobwa ndetse n'umusaza, bigaragara ko umukobwa ari umuganga, ku meza hateretseho ikirahure kirimo amazi, ikayi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi icyumweru, irimo umusaza w'imibiri yombi ufite ikaramu mu ntoki, igitabo mu ntoki. Bigaragara ko hari ibintu ari gusoma kandi afite imvi mu mutwe.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, yabatishije amakaro hasi, irimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, afasha umurwayi ari kumwereka uburyo.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, harimo abantu batatu umukobwa w'inzobe ufite imisatsi myinshi wambaye itaburiya y'ubururu ari kumwe n'umusaza ugeze mu gihe cy'izabukuru bigaragara ko hari ibintu ari kumwereka.

Ni isoko rinini ririmo abamama batandatu bicaye bose, bigaragara ko hari ibintu bari kuganiraho, bacururizamo ibintu bijyiye bitandukanye, inyanya, ibitunguru ndetse n'ibikomoka ku ma...

Ni abantu babiri b'abamama, umwe ateze igitambaro mu mutwe cy'umutuku, bigaragara ko bari gukora siporo zigiye zitandukanye, kugira ngo birinde umubyibuho ukabije, biragaragara ko bishimye mu maso y'abo, hirya hateye ibiti.

Ni abantu babiri umukobwa wari wambaye agapfukamunwa k'ubururu ufite imisatsi mikeya w'imibiri yombi bigaragara ko ari umuganga, yarimo avura umukecuru wari wicaye ahongaho, hirya hateye ibiti ndetse n'indabyo.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku rukuta, irimo umusaza ufite imvi mu mutwe, yambaye ikote ry'umweru bigaragara ko ari ibintu ari kwandika.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho bigaragara ko irimo isuku, isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo abantu babiri, umukobwa ufite umusatsi wambaye imyenda y'ubururu bigaragara ko ari umuganga, ari kuvura umukecuru wari uhari.

Ni inama y'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko abahungu ndetse n'abakobwa bicaye ku ntebe z'umweru harimo n'abicaye ku z'ubururu bigaragara ko hari ibintu bari kuganira.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku bikuta, irimo intebe zikozwe mu mbaho, harimo umusaza n'umukecuru, ku meza hateretseho impapuro, bigaragara ko hari ibintu bari kwigaho.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo utubati tugiye duteretsemo amatase bakoresha banywa ibintu bigiye bitandukanye, hari abantu babiri bigaragara ko umwe ari gukora amasuku mu mboga.

Ni zu nziza yubatse mu buryo bigezweho iriho ibyapa byinshi bisize irangi ry'umweru byandikishije mu ibara ry'umutuku n'umukara, imbere hari abantu benshi bigaragara ko bahagaze bari kwifotoza, harimo abamama ndetse n'abahungu.

Ni abana b'abanyeshuri bigaragara ko bakiri batoya, bambaye amashati y'umweru, amakabutura y'ubururu, karuvati z'ubururu, hari umugabo bigaragara ko ariwe ubakuriye, hari ibintu ari kubabwira.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'umuhondo, cyandikishije mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku, hashushanyijeho umwana n'umukobwa, bigaragara ko yarimo avura uwo mwana wari wambaye ishati.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakaro y'umweru hasi irimo abantu benshi higanjemo abagabo, bigaragara ko hari umuntu uri kubafotora bose baricaye bambaye.

Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, irimo imirongo isize irange ry'umuhondo, irimo abantu benshi higanjemo urubyiruko, abahungu ndetse n'abakobwa, imbere hicaye abari bambaye imipira y'umukara.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara umukobwa yari yambaye inkweto ndende.

Ni umukobwa w'imibiri yombi wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'ingofero y'ubururu, yambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko avura indwara zigiye zitandukanye, iz'uruhu ndetse n'izo mu nda inyuma ye.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umuhondo ku rukuta, harimo abamama bane, bose bateruye abana, bigaragara ko baje kubapimisha cyangwa kureba imikurire yabo uko imeze, barishimye mu maso yabo.

Ni ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko abahungu n'abakobwa, bigaragara ko bose bakiri abanyeshuri, imbere hari abafite icyapa gisize irange ry'umweru n'umutuku cyandikishije mu ibara ry'umweru hirya hateye ibiti.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umutuku n'umukara, hariho ifoto y'umukobwa w’inzobe ufite imisatsi y’umukara, upfumuye amatwi, bigaragara ko hari ibintu y'ari arimo areba mu maso ye.

Ni inzu yubatse mu bu buryo bugezweho, igizwe n'ibirahure byinshi mu miryango ndetse n'amadirishya by'umukara, iriho ibyapa byinshi by'umweru, harimo n'ibiriho imirongo y'umukara n'umutuku hahagaze umuntu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho iri ahantu heza hatuje hatari umwanda, isize irangi ry'umuhondo ku bikuta ndetse no ku mabati hejuru. Ni ahantu ushobora gusohokana n'umuryango wawe.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho Isize irangi ry'umweru kunkuta ifite ibirahuri mu miryango yubakishije amakaro hasi ni ahantu heza ushobora gusohokana n'umuryango wawe.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, hasi yubakishije amakararo y'umweru, harimo igitanda bigaragara ko ari ahantu bakirira abarwayi bagiye batandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irange ry'umuhondo kukuta, ifite ibirahure, hanze hari imodoka isize irangi ry'umweru n'isize irange ry'umukara, ifite ibirahuri by'umukara, bishobora...

Ni inzu nziza yubatsewe mu buryo bugezweho isize irange ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, hasi yubakishije amakaro y'umweru, ku gikuta hashushanyije ijisho, hariho ibipurizo hejuru by'umweru n'ubururu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta, yubakishije sima hasi irimo intebe zikozwe mu mbaho izindi z'ibyuma ziriho imisego y'umukara, hari abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'ubururu, ryandikishije mu ibara ry'umweru, bigaragara ko ari ibitaro binini bisize irangi ry'umweru, byubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda wubakishije amabuye hasi, hari imodoka isize irangi ry'umukara, hari abantu benshi, harimo abamama ndetse n'abapapa, hari inzu igeretse yubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda w'amabuye hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umukara, imbere harimo inzu yubatse mu buryo bugezweho igeretse, hasi haparitse imodoka nyinshi zigenda zitandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, iri ahantu hatari umwanda mwinshi hateye indabyo zikase. Hirya hari inzu yubakishije amabati y'umutuku hari ibigega babikamo amazi bisize irangi ry'umukaraku.

Ni umuhanda w'ibitaka uteyemo ibiti birebire, twifashisha tubona umwuka duhumeka, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati, irimo ibirahure mumadirishya.

Ni umuhanda wubakishije amabuye ugaragara neza ko nta myanda myinshi ihari, hateye ibyatsi biconze bigaragara neza, hirya hari inzu yubatse mu buryo bugezweho igeretse.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho igeretse gatatu, yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara hateye ibiti.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro y'umweru hasi, isize irange ry'umweru ku bikuta, ku gitanda hariho umugabo bigaragara ko arwaye, ni ibitaro bakiriramo abantu bagiye batandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, hasi yasizeho iry'umukara, yubakishije amakaro hasi, harimo igitanda, bigaragara ko ariho baryamisha umurwayi bagiye kubisuzuma.

Ni gikuta cyandikishije amagambo ari mu mabara y'icyatsi n'ubururu, umukara. Imbere yayo hari abakobwa batandatu bambaye amapantaro y'ubururu, amashati y'ubururu, udupfukamunwa tw'ubururu bigaragara.

Ni inzu nziza, yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, iriho inzugi z'umweru ziriho ibirahure, bigaragara ko ari ahantu bakirira ababyeyi bagiye kwibaruka.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru yubakishije amakaro hasi harimo ibyuma abasore bakunda guterura bashaka kuzana amatuza, kujyana inda cyangwa ikindi kintu cyose wifuza.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta, hasi yubakishije amakaro, hari icyapa gisize irangi ry'ubururu cyandikishije mu ibara ry'umweru, bigaragara ko ari icyumba bakiriramo abarwayi.

Ni inzu nziza yubatse buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakara y'umweru hasi irimo ibitanda byinshi biriho amashuka y'ubururu, bigaragara ko ari ahantu bakirira abarwayi bagiye kubasuzuma.

Ni inzu isize irangi ry'umweru ku bikuta irimo abantu batatu, harimo umukobwa uryamye ku gitanda gikozwe mu mbaho bigaragara ko arwaye, hari umugabo uri kureba umuriro afite, umumama bigaragara ko ari kumuvura.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakaro y'umweru hasi irimo igitanda kiriho amashuka y'umweru, bigaragara ko ari ahantu baryamisha abarwayi.

Ni inzu yubatse neza isize irangi ry'umweru ku bikuta, yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo ibitanda bigiye bitandukanye, hariho amashuka y'umweru bigaragara ko ari ahantu baryamisha abarwayi.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo ameza ndetse n'utubati, isize irangi ry'umweru harimo abaganga b'abakobwa ndetse n'abahungu bambaye amataburiya y'umweru, bigaragara ko hari ibintu bari kuganira.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, hirya hari inzu yubatse mu buryo bugezweho, igeretse, isize irange ry'umweru, iherereye Nyarugenge, bigaragara ko ari ibitaro binini, byakira abarwayi bagiye batandukanye, kugira ngo babasuzume.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakaro y'umweru, hasi harimo intebe imeze nk'uburiri ushobora kuryamishaho umuntu, isize irangi ry'ubururu ndetse n'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro y'umweru hasi, isize irange ry'umwi ku bikuta, bigaragara ko ari ahantu bakorera serivise zigiye zitandukanye, nko kwakira abantu benshi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, yubakishije amakuru y'umweru hasi irimo igitanda gifite amashuka y'umweru bigaragara ko ari ahantu ushobora kuryama unaniwe cyangwa.

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibirahuri mu madirishya isize irangi ry'umweru, hari umugabo wari uryamye mu ntebe isize irangi ry'umukara, bigaragara ko yaje kwivuza kuko yari afite ibipfuko ku maboko.

Inzu nziza iri ahantu hatuje isize irange ry'umuhondo irimo ibirahure, hanze hari icyapa gisize irange ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umutuku hari umumama uhetse umwana.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bigezweho isize irangi ry'umweru kukuta hasi hariho irangi ry'umukara, yubakishije amakaro hasi irimo ameza y'umweru umumama bigaragara ko ari mu mugihe.

Ni nzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry’umweru ifite ibirahuri by’umukara irimo intebe zitandukanye yubakishije amakaro hasi hejuru hari icyuma bifashisha kugira ngo haboneke umu….

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ku bikuta, ifite inzugi ziriho irangi ry'umukara, hejuru hasizeho irangi ry'umweru, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abakecuru, abamama ndetse n'abasore, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo icyuma baryamishaho umuntu kugira ngo barebe ikibazo yaba afite mu mubiri we.

Ni nzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta irimo ibitambaro bisize ibara ry'ubururu, amashuka y'umweru bigaragara ko ariho bakirira abarwa.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, hari inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, asakaje amabati y'ubururu, iriho icyapa gishushanyije amaso.

Ni umuhanda wubakishije amabuye, bigaragara ko hateye indabyo ndetse n'ibyatsi bikase, hari isuku, nta mwanda mwinshi uhari, hirya hari ibigega babikamo amazi bisize irangi ry'umukara, hari inzu yubatse mu buryo bugezweho.

Ni umuhanda w'umukara urimo imirongo y'umweru haparitse imodoka nziza bigaragara ko ikiri nshyashya, hirya hari inzu ndende igeretse yubatse mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye isize irangi ry'umweru.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru, yubakijije amakaro hasi, irimo ibitanda byinshi biriho ibitambaro by'ubururu, bigaragara ko ariho baryamisha abarwayi bose bi...

Ni inzu nziza iri ahantu hatuje bigaragara ko nta mwanda uhari, isize irangi ry'umweru ku bikuta, harimo igitanda kiriho amashoka y'umweru bigaragara ko ari ahantu baryamisha umurwayi kugira ngo bamusuzume.

Ni inzu nziza yubatse m'uburyo bigezweho isize irangi ry'umuhondo ku rukuta risakaje amabati y'ubururu hirya hateye ibiti birebire byinshi twifashisha tubona umwuka duhumeka, hari ibirahuri mu madirishya.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo ibyuma byinshi bakunda gukoresha bari muri siporo zigiye zitandukanye, kujyana inda, kuzana amatuza kuzana amabuno ndetse n'ibindi.

Ni inzu nziza yubatse mujyi bigezweho isize irangi ry'umweru hejuru ndetse no ku bikuta irimo ibitanda byinshi, bigaragara ko ariho baryamisha abarwayi kugira ngo babasuzume bamenye ibyo barwaye.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, ifite isuku, yubakishije amakaro y'umweru hasi, isize irangi ry'umweru ku bikuta, handikishijeho ibara ry'umukara, hejuru yubakishije amabati hariho ibyuma byinshi.

Ni ahantu bigaragara ko ari aho bakirira abarwayi barwaye indwara zi zitandukanye. Baryamye ku bitanda biriho amashuka y'ubururu, abaganga bambaye amatabuririya y'umweru udupfukamunwa tw'ubururu.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku gikuta, irimo abantu batatu, umugabo bigaragara ko ari umuganga yambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'ubururu, hari umwana bigaragara ko ari gusuzuma, ubwoba bwamwishe, hirya ye hari undi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bigezweho, isize irangi ry'umweru ryandicyishije mu ibara ry'umutuku. Haparitse moto z'ubwoko bugiye butandukanye, harimo iyiri yicayeho umumotari imbere. Hari umugabo wambaye umupira w'umweru.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru ku bikuta, yubakishe amakaro y'umweru hasi, bigaragara ko ari ibitaro bakiriramo abarwayi bagiye batandukanye, harimo abaganga bambaye aga...

Ni inzu yubatse mu buryo bugezweho, ifite isuku, isize irangi ry'umuhondo ku bikuta irimo ibitanda biriho amashuka y'umweru, bigaragara ko ari ahantu bakirira abarwayi bagiye kubasuzuma ngo bamenye ikibazo.

Ni inzu iri ahantu hameze nko mu cyaro yubakishije amatafari ahiye, hari abantu babiri. Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ameze nk'muganga uri kuvura umukecuru wari uhari. Hirya hateye insina zeraraho ibitoki.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru kubita, ndetse no hejuru yubakishije amakaro y'umweru hasi irimo igitanda cy'umukara, bigaragara ko ari ahantu baryamisha umurwayi bagiye kumusuzuma.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, igeretse, isize irangi ry'umweru ku rukuta, ifite ibirahure byinshi, yandikishije mu ibara ry'umukara bigaragara ko ari ahantu bajyana imiti bakayisuzuma.

Ni inzu nziza yubatse mujyi bugezweho isize irangi ry'umweru hejuru, harimo icyuma kinini bifashi bareba uburwayi umuntu afite mu mubiri bareba ko ntatangingo n'imwe yaba yarangiritse.

Ni inzu nini isize irangi ry'umweru hejuru ndetse no ku bikuta, hasi yubakishije amakaro, harimo ibitanda biriho amashuka y'umweru, bigaragara ko ariho bakirira abarwayi barembye bakabaryamisha.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru, hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'umukara, hasi hubakishije amakaro bigaragara ko ari ahantu basuzumira uburwayi bwa malariya.

Ni inzu nini yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari ahantu bakirira abarwayi bagiye bafite indwara zigiye zitandukanye, harimo abaguma bitaro cyangwa aboherezwa ahandi.

Ni inzu irimo abantu batanu abakobwa batatu ,umugabo ndetse n'umwana bigaragara ko umwana arwaye amenyo ari kumureba mu kanwa yambaye ishati y'umweru agakomo k'umukara.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta. Imanitseho imitako harimo akabati k'umweru, abantu babiri bigaragara ko umwe ari gupfuka undi yagize ikibazo kuku.

Ni umusore mu bigaragara w'imibiri yombi wateruye, yambaye isengeri y'icyatsi ari kwimenaho amazi, bigaragara ko ashyushye avuye muri siporo cyangwa ibindi bikorwa.

Ni abasore babiri bigaragara ko bari muri siporo zigiye zitandukanye ushobora gukora ushaka kujyana inda, kuzana amatuza ndetse n'ibindi, harimo uwari uryamye wambaye ikabutura y'umweru irimo uturongo tw'umutuku, amasogisi y'umukara.

Ni umusore w'imibiri yombi bigaragara ko ari muri siporo zigiye zitandukanye kugira ngo yirinde umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara ziterwa no kudakora imyitozo, afite icupa ry'amazi yo kunywa.

N’umusore w'inzobe bigaragara ko ari kunywa amazi kugira ngo yirinde kugira inyota, yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu bigaragara ko ari muri siporo zigiye zitandukanye, kugira ngo yirinde indwara.

Ni ihuriro ry'abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo urubyiruko, bigaragara ko ari inzu bakoreramo siporo. Kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije, bakora ibintu bigiye bitandukanye.

Ni umusore imibiri yombi wambaye insengeri y'umukara bigaragara ko ari ahantu mu twatsi dutoya ari gukora siporo zigiye zitandukanye kugira ngo yirinde umubyibuho ukabije cyangwa indwara ziterwa no kudakora imyitozo.

Ni umusore w'inzobe ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa butoya bwogoshe, yambaye isengeri y'umukara ari kunywa amazi. Ushobora kuyanywa nta nyota ugize kugirango utagira ikio.

Ni umukobwa w'imibiri yombi, ufite imisatsi y'umukara yabohesheje ku mutwe we, yambaye kuteri z'umweru ndetse nisaha y'umukara bigaragara ko ari gukora siporo zigiye zitandukanye, kugirango yirinde indwara zituruka ku umubyibuho ukabije.

Ni umusore ubyibushye bigaragara ko akora siporo zigiye zitandukanye arya indyo zuzuye harimo ibikomoka ku matungo, amagi, inyama ndetse afata imbuto zigiye zitandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije amabati asize irangi ry'umweru, imbere yayo hari abana benshi bigaragara ko bari muri siporo, bambaye imyenda igiye itandukanye, hirya hateye ibiti.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi, irimo umusore w'imibiri yombi wambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umukara, bigaragara ko ari muri siporo zigiye zitandukanye, harimo izizana amatuza, izijyana inda cyangwa izindi.

Ni abantu babiri b'abahungu, umwe asutse ibintu biryamye ku mutwe, yambaye umupira w'umuhondo aryamye ku buriri. Bigaragara ko yaje muri siporo, hari ibintu undi ari kumwereka. Abantu bakora siporo zigiye zitandukanye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta ndetse no hejuru, irimo utubati tw'umweru, ni icyumba ushobora kuryamishamo umurwayi kugira ngo bamenye ikibazo yaba afite mu mubiri we.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta, irimo utubati tw'umweru bigaragara ko ari ibitaro, harimo icyuma baryamishamo umuntu bakareba ikibazo yaba afite mu mubiri we.

Ni umukobwa bigaragara ko akuze w'imibiri yombi, yambaye isengeri bigaragara ko ari muri siporo agenda akora ibintu bigiye bitandukanye, ibinanura cyangwa ibirinda indwara yambaye ekuteri mu matwi.

Ni igikapu cy'umutuku gifite imashini n'imishumi y'umukara, ushobora kubikamo ibintu bigiye bitandukanye harimo inshinge batera abarwayi ndetse n'indi miti igiye itandukanye, ushobora kubikamo n'ibindi bitari ibyo.

Ni umuganga w'imibiri yombi wambaye itaburiya y'umweru, hari umuntu uryamye bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi, muganga ari kumva aho ababara cyangwa aho yagize ikibazo, amusobanuza.

Ni abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umuhungu yambaye isengeri y'umukara, ikabutura y'umukara, ni imibiri yombi, yicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, bigaragara ko bavuye muri siporo zigiye zitandukanyeye, izinanura.

Ni umuhanda w'umukara urimo umurongo w'umweru, harimo abantu babiri mu kibuga, umwe wari wambaye ikabutura y'umukara ,umupira w'ubururu afite umupira mu ntoki bigaragara ko ari gukina, hari undi wari ufite imbago bigaragara ko afite ubumuga.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho irimo imitako, isize irange ry'umweru ku bikuta, irimo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri afite imisatsi migufi bigaragara ko ari gukora siporo.

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, isize irange ry'umweru ku bikuta, hasi hariho akarange k'umukara, harimo umugabo bigaragara ko ari umuganga yambaye itaburiya y'umweru afite kasike mu ntoki.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, iri ahantu heza isize irangi ry'umweru ku bikuta irimo abasore babiri bigaragara ko bari muri siporo zigiye zitandukanye , uwari uryamye yari yambaye umupira w'umweru.

Ni imbago ikozwe mu byuma, bayifashisha ku bantu bagize ikibazo cy'uburwayi cyangwa ubumuga bw'amaguru, amaboko, mu gihe utabasha kugenda neza kugira ngo ubashe ku...

Ni inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, bigaragara ko irimo isuku, yubakishije amakaro y'umweru hasi, irimo ibitanda by'umukara, hari umugabo uryamye wambaye umupira w'umukara hirya ye hari undi wambaye.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru ku rukuta irimo igitanda kiriho imisego na matera, hari umukobwa bigaragara ko abyutse yambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, w'inzobe.

Ni umusore w'imibiri yombi ufite ubwanwa bukeya bw'umukara n'umusatsi mukeya, yambaye umupira w'umweru, bigaragara ko ari kunywa amazi kugira ngo agire ubuzima bwiza, yirinde indwara zikomoka kutanywa amazi.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umuhondo ku bikuta, yubakishije amakaro hasi, hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije mu ibara ry'umukara, imbere hari abantu benshi bagiye batandukanye.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi, irimo intebe z'umweru, umukobwa wambaye isengeri y'umukara, imbere ye hateretse mashini, ushobora kuyifashisha wohereza amakuru cyangwa ureba andi, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi yo kunywa.

Umukobwa w'inzobe, ufite imisatsi yabohesheje, y'umukara, yambaye agatambaro gatoya mu mutwe, bigaragara ko ari gukora siporo zigiye zitandukanye, nk'izirinda umubyibuho ukabije kugira ngo.

Ni umusore w'imibiri yombi, hari amabara ari ku maboko ye y'ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, bigaragara ko ari gukora siporo zigiye zitandukanye kugira ngo yirinde umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara ziterwa n'umubyiho ukabije.

Ni umukobwa w'inzobe wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ku gitanda hicaye umusore bigaragara ko yari yakomeretse umukobwa ari umuganga, ari kumushyiraho igipfuko gisa ubururu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irange ry'umweru ku bikuta, ifite intebe ziriho ibitambaro by'umweru. Harimo umukobwa bigaragara ko ari gukora rayo siporo zigiye zitandukanye, yambaye isengeri y'umweru.

Ni imbuto zigiye zitandukanye, harimo inanasi, umuneke, ibinyomoro ndetse n'amatunda, ushobora kubirya hari indwara urwaye ndetse hari imiti.

Ni abantu babiri umuhungu n'umukobwa wambaye isengiri y'ubururu, yambaye agakabutura gatoya, afite icupa ry'amazi yo kunywa mu ntoki, bigaragara ko bari gukora siporo zigiye zitandukanye, kugira ngo birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho isize irangi ry'umweru ku bikuta. Irimo umugabo bigaragara ko ari umuganga. Yambaye itaburiya y'ubururu. Hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara bigaragara ko yavunitse.

Ni igikapu cy'umutuku gifite imashini y'umukara ibitsemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, imikasi ndetse n'ibindi, ushobora kubikamo ibigiye bitandukanye , imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibi...

Ni umusore bigaragara ko ari uw'ibigango, w'imibiri yombi, wambaye ikabutura y'umukara isengeri y'umukara, bigaragara ko ari muri siporo zigiye zitandukanye, izizana amatuza ndetse n'izijyana inda cyangwa izindi.

Ni umukobwa w'inzobe ufite imisatsi miremire, yambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara bigaragara ko ari muri siporo zigiye zitandukanye, iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi yo kunkwa.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezwehoze isize irangi ry'umweru ku rukuta, irimo abantu benshi bigaragara ko bari mu nama, ni abaganga harimo abari bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ku meza hateretse.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka isize irange ry'umweru n'umutuku, bayifashisha batwara abarwayi mu bitaro bigiye bitandukanye cyangwa babavana mu ngo aho bagiye barwarira babajyana ku.....

Ni inzu yubakishije amakaro y'umweru hasi irimo ibikinisho ukinisha imikino igiye itandukanye, utudeneste dukunda gukoreshwa n'abana cyangwa abantu bakuru, kugira ngo bakore siporo zigiye zitandukanye bananure umubiri.

Ni inzu irimo abantu babiri, umumama wambaye ijure y'ubururu, irimo imirongo y'umweru yicaye ku ntebe y'umukara, hari umwana ari kureba bigaragara ko arwaye, ari kumusuzuma ngo amenye ibyo arwaye.

Ni imbuto zigiye zitandukanye harimo pome z'ubwoko bwose, amacunga, hakaba hari ikirahure kirimo umutobe bigaragara ko izi mbuto arizo bakozemo uyu mutobe.

Ni ubwoko bw'imiti igiye tandukanye, ivura indwara zose, bigaragara ko idakozwa kimwe, hirya hari umukobwa w'imibiri yombi, ufite umusatsi w'umukara utari mwinshi cyane, yambaye umupira w'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru gishushanyijeho umuti, bawita tangawizi ushobora kuwunywa mu gihe urwaye inkorora cyangwa izindi ndwara, ushobora kuwukoresha mu byayi bigiye bitandukanye icy'amata cyangwa igisanzwe.